Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa uri kureba hejuru ari guseka cyane, ari kuvugira kuri terefone ndetse mu ntoki ze afite igikapu kinini cy'ivarisi gifite ibara ry'ubururu.

Abantu batatu bafashe icyapa, ndetse cyanditseho Sorasi ni umugore umwe ufite imisatsi miremire, ndetse n'abagabo babiri bambaye amakoti na karuvati.

Icyapa cyamamaza cya Radiant kiriho ukuguru kwavunitse kuzengurutsweho bande .Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati" impanuka ntiteguza gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima".

Icyapa cyamamaza iki cyapa kiriho abantu batatu umugore, umwana, ndetse n'umugabo bambaye imyenda y'imweru hejuru iki cyapa kiriho ikimenyetso cyo guteranya ndetse cyiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ziganjemo izifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara iruhande rw'umuhanda hari icyapa cyamamaza kiriho abantu babiri umusaza n'umukecuru barishimye bari guseka.

Icyapa cyamamaza cy'ubwishingizi bwitwa Purayimu. Iki cyapa kiriho abantu babiri: umugabo n'umugore bishimye cyane, bari guseka, bari guhana udusango. Imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro.

Icyapa cyamamaza cyanditseho Buritamu, kiriho umusore ufite telefone mu ntoki ze ndetse wambaye ingofero itukura, afite ibyuma by'umuziki mu ijosi, yambaye ishati y'amaboko maremare y'uburu, iruhande rwe handitseho amagambo.

Icyapa kiriho itangazo riburira. Iki cyapa ni icya purayimu kiriho umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse uri guseka. Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati ibizazane by'ubuzima ntibiteguza.

Icyapa cyamamaza Buritamu, iki cyapa kiriho umukobwa uri guseka ufite imisatsi myinshi ndetse wambaye umupira w'umuhondo, afashe akamashini mu ntoki ze ndetse iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati'' ni iyihe mpamvu wahitamo ramba na Buritamu".

Icyapa cyamamaza, kiriho umukobwa uri guseka wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru, yicaye ku ivarisi ifite ibara ry'icyatsi, iki cyapa cyanditseho ijambo rigira riti:'' temberana''. Ubu ni ubwishingizi bukugoboka mu bihe, mu bihe by'akaga.

Imodoka iriho ibirango by'amasosiyete menshi akorera mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bayishungeye ndetse bahagaze hakurya y'umuhanda ahantu hateye ibyatsi ndetse hateye umukindo muremure.

Icyapa cyamamaza kiriho abantu bane, kiriho umuryango w'umugore, umugabo, ndetse n'umwana, hariho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse ari gupima umwana bose bari guseka.

Icyapa cyamamaza, giteye mu kirere. Kiriho imodoka ndetse iruhande rw'imodoka, hariho inzu. Iki cyapa gifite amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'ubururu.

Icyapa cyamamaza, cya RADIANT. handitseho RADIANT yacu. Ndetse hari amagambo yanditseho, agira ati. Komeza wizigamire wungukirwe agera kuri kane ku ijana, mu gihe cy'umwaka.

Icyapa cyamamaza kiriho imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse hejuru yayo hari moto iriho umumotari ifite ibara ritukura. Iki cyapa ni icya Sonarwa.

Icyapa cyamamaza gifite ibara ry'umweru gishushanyijeho imodoka ifite ibara ritukura ndetse kiriho abakobwa babiri bafite imisatsi miremire b'abazungu.

Icyapa cyamamaza kiriho imodoka ifite ibara ry'umutuku ndetse n'inzu ifite ibara ry'umutuku n'umweru bitwikiriwe n'umutaka ufite ibara ry'umukara.

Itangazo riburira, iri tangazo ryandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'icyatsi, ryanditse mu ishusho ifite ibara ry'icyatsi, riragira riti inzitiro ku matungo.

Icyapa cyamamaza, kiriho umukobwa wambaye ingofero y'umuhondo, ndetse n'amarinete. Ari guseka. Yambaye ijile ifite ibara ry'icyatsi. Hariho icyapa cyanditseho amagambo agira ati. Gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.

Iduka ricuruza imyenda aha hari igipupe cyambaye ijire, ndetse hamanitse amashati meza cyane yose ari kumurongo.

Iduka ricuruza imyenda n'inkweto by'abagore, hari akabati karimo inkweto z'abagore indende ndetse n'ingufi ziri hejuru, inyuma hari imyenda imanitse n'amakanzu.

Iduka ricuruza imyenda. Harimo igipupe cyambaye ikanzu, ikanzu y'umukara ndetse inyuma irafunguye. Iri duka ririmo utubati dufite irangi ry'umweru. Ririmo imyenda ndetse utu tubati turimo n'ibikapu.

Iduka ricuruza imyenda, iri duka rirafunguye hateretsemo intebe y'umweru ya plastike inyuma, hari imyenda ihamanitse ndetse n'indi imanitse iruhande.

Umuhanda ugaragara igice kimwe, ndetse ku nkombe z'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru; ndetse iruhande rw'aka kayira hari inzu icururizwamo imyenda. Irafunguye; ndetse hanze hari ibipupe bambitse imyenda.

Iduka rifunguye ricuruza imyenda ndetse n'ibikomo aribyo imikufi, iri duka rimanitsemo amakanzu ndetse hari ameza afite igitambaro gitukura ateretseho ibikomo byiganjemo ibifite amadarapo y'ibihugu byo muri Afurika.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umusore w'umwirabura undi ni umugore w'umuzungu, uyu muzungu imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara, uyu musore yambaye umupira w'umweru ndetse afite ikaramu ari kwandika.

Inkweto ziganjemo iz'abagabo zirimo ingozi zifite amabara agiye atandukanye, ziteretse ahantu hejuru iruhande hari inkweto z'abagore ndende.

Ahantu bagurisha imikufi, hari imitako myinshi ndetse hari n'ibishushanyo biriho indogobe, inzovu, ndetse n'ibindi biriho intore, aha hari amaherena ya kinyafurika.

Abantu babiri umusore wambaye umupira w'umweru ari guseka, ndetse n'umugore w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, ufite mudasobwa imbere ye nawe ari guseka, imbere yabo hateretse amakaye ndetse iruhande hari imyenda.

Iduka ricuruza ibitenge. Harimo ibitenge bizinze, birambitse hasi bigerekeranye ni byinshi ndetse hejuru hari ibindi bimanitse na byo bigiye bifite amabara atandukanye.

Amashati arambuye kumurongo aciye amaboko, ayo mashati akozwe mu bwoko bumwe nubwo adasa, iyi ibanza ifite ibara rya kaki, ikurikiye, icyatsi, ikurikiye umuhondo, ikurikiye umutuku, ikurikiye ndetse n'iyayuma nazo zifite amabara atandukanye.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya ndetse bafite icyapa cyamamaza cyanditseho Akagera Motozi, iyi ni kampani ishinzwe kugurisha imodoka ndetse na moto, inyuma yabo hari ibikamyo bibiri, kimwe gifite ibara ry'ubururu n'umukara ndetse ikindi gifite ibara ry'umweru n'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse imbere yayo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umutuku afite icyapa cyanditseho Akagera gifite ishusho isa n'urufunguzo, inyuma ye handitse Akagera Motos.

Abagabo babiri bambaye amashati asa ndetse n'amapantaro asa n'inkweto zisa z'umukara bafashe icyapa cyanditseho akagera ndetse inyuma yabo hari imodoka.

Abagabo babiri bambaye amashati, bafashe icyapa gifite ishusho y'urufunguzo yanditseho Akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka y'ifuso ifite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze bafashe icyapa cyanditseho akagera motols, inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Abagabo babiri bahagaze umwe wambaye umupira utukura n'ingofero, bafashe ku cyapa gifite ishusho y'urufunguzo ndetse inyuma yabo hari imodoka ifite amabara abiri.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya ndetse bafashe ku cyapa cyanditseho Akagera gifite ishusho y'urufunguzo, umugabo umwe afite agakapu gafite ibara ritukura, inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Imodoka nziza y'umukara ifite purake RAH, kabiri karindwi icyenda U. Iyi modoka igaragara ku gice cyimbere, iragurishwa amafaranga miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi magana atanu. Yanditseho toyota.

Inoti y'ibihumbi bibiri iyi noti yemewe n'amategeko y'u Rwanda yanditseho banki nkuru y'u Rwanda ishushanyijeho umunara muremure.

Inoti yanditseho igihumbi, yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, iyi noti iriho inka zifite amahembe maremare.

Abantu babiri bambaye imyenda y'abasekirite ndetse iyi myenda ifite ibara ry'umukara n'umweru, iriho uturango tw'umutuku. Bafite ikintu bagiye gushyira mu modoka yanditseho isiko.

Ikiganza kiri gufata amafaranga. Aya mafaranga ari kubarwa n'akamashini. Aka kamashini gateretseho amafaranga, ndetse kari kugenda kayabara. Ubu kanditsemo inote ijana na cumi n'ebyiri.

Ikiganza gifashe amafaranga. Ikiganza cy'iburyo gifashe amadorari ndetse ikiganza cy'ibumoso gifashe amafaranga afunze atabasha kugaragara neza, iruhande hari imashini yifashishwa gukora imibare.

Abantu babiri bahagaze bari kurebana. Bari muri banki, umwe ari gusaba serivisi undi ari kuyimuha. Ku kirahuri hamanitse inoti ebyiri imwe ya magana atanu n'indi y'igihumbi.

Muri banke ya KCB.Iyi banke ifite amabara yiganjemo icyatsi. Hari abagabo babiri bahagaze, bategereje guhabwa ubufasha ndetse mo imbere harimo abandi bari gutanga ubufasha bakora muri banke.

Intoki ebyiri z'umuntu zigaragara zifashe amafaranga ndetse imbere hari mudasobwa ndetse iruhande hari akamashini gateretse ku meza gasohora fagitire.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hari mudasobwa, iruhande hari icyapa cyo kwamamaza kiriho umugabo wambaye ishati ndetse ufite telefone mu ntoki ze ari gukanda.

Umugore wambaye imyenda itukura w'umwirabura, ikiganza cye cy'iburyo gikoze ku gikuta gifite ibara ry'umweru ndetse hariho urupapuro rwanditseho amagambo ari kuyerekana.

Inzu icururizwamo amata ndetse n'ibyokunywa birimo amaji. Iyi nzu irimo abantu babiri. Iyi nzu irimo intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'izifite ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo amata, irimo ibirango by'inyange byiganjemo amabara y'ubururu ndetse ashushanyijeho umusambi .Aha harimo amakarito y'amata ndetse n'amakarito y'amaji harimo akabati kagiye karimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Inzu yagenewe gucururizwamo amata. Harimo icyuma gishyirwamo amata, kugira ngo abashe kubikwa igihe kirekire. Iki cyuma kiriho icyapa cyanditseho Mukamira. Gifite amarangi y'ubururu. Ndetse hanze y'iyi nzu, hari icyapa kimanitse. Cyanditseho Mukamira.

Utubido duteretse ku makaro utu tubido dufite ibara ry'umweru ndetse twanditseho amagambo, iruhande hari akabido gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umufuniko utukura iruhande hari igicuba.

Inzu icururizwamo amata, ifite ku miryango amarangi y'ubururu ndetse hejuru y'umuryango handitseho icyapa gifite ijambo rigira riti “inyange”.

Inzu irimo icyuma cyagenewe kubika amata ndetse iki cyuma cyanditseho inyange cyiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru iruhande rwacyo hateretse intebe ndetse n'ameza by'umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho umugore wambaye amarineti ndetse ufite umusatsi w'umuterano w'umukara, mu ntoki ze afashe telefoni ari gukanda iki cyapa cyanditseho ijambo copedu.

Icyapa cyamamaza. Cyanditseho SPENNI. Kiriho amagambo y'Ikinyarwanda agira ati: "Teganyiriza ahazaza h'umwana wawe; amafaranga make watangiza none yakubaka ejo hazaza heza h'abana bawe."

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo yambaye umupira wa MTN w'umuhondo ndetse n'ingofero, afite ikayi mu ntoki ze ndetse na terefone, imbere ye ari kumwe n'umugore ufite imisatsi mikeya, ndetse wambaye amarineti uteruye igikarito.

Icyapa cya eyateri kiriho umuhungu uri gutera ipasi, ari gutera ipasi umwenda w'umweru. Iyi pasi nayo ifite ibara ry'umweru. Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati ishyura umuriro ukoresheje eyateri mani.

Icyapa cya Ekwiti. Ekwiti ni banke ikorera mu Rwanda. Iki cyapa kiriho umukobwa uri guseka usa neza ufite imisatsi miremire, yambaye ikoti ndetse afite agapfunyika kaziritse n'imigozi itukura.

Amafaranga amafaranga y'inoti zigiye zitandukanye arafunze ku buryo ushaka waza ukayaterurira icyarimwe, aya mafaranga ashushanyijeho umuntu w'umusaza.

Inoti yanditseho ijana, iyi noti ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, ishushanyijeho umugabo wambaye amarineti ufite uruhara, ni umusaza, imbere yayo hateretse ibiceri bitatu.

Abantu babiri b'abirabura bari guseka. Umwe ateze igitambaro kirimo ibara ritukura ndetse n'umweru, yambaye n'ikoti ry'umukara. Imbere ye hari undi ufite amafaranga mu ntoki ze. Akora muri banki.

Ibiganza bibiri bifite inoti. Izi noti zishushanyijeho umusaza wambaye amarinete ndetse ufite uruhara. Aya mafaranga ni ayo mu buhinde.

Amafaranga yiganjemo amadorari, aya madorari yanditseho ijana, ni inote nshyashya, iruhande rw'izi note hariho ibiceri, ibi biceri ni zahabu birashashagirana cyane, bifite ibara rijya kuba umuhondo.

By'abantu babiri, bari guhanahana amafaranga. Amwe n'amadorari, andi n'amafaranga yanditseho ijana, afite ishusho iriho umugabo.

Inoti ebyiri, aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Congo, aya mafaranga inoti imwe yanditseho ibihumbi makumyabiri, indi noti yanditseho ibihumbi icumi.

Abantu babiri umwe ugaragara ikiganza gusa gifashe amadorari ni ninoti enye hari undi ugaragara ari kwakira aya mafaranga, aya mafaranga ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire.

Amafaranga, aya mafaranga yanditseho gatanu, aya mafaranga ariho umusaza wambaye amarineti ufite agasatsi gake, iyi noti yakozwe kera.

Icyapa cyerekana uko ivunjisha rihagaze ku isoko ifaranga uko rigurwa ndetse n'uko rigurishwa bigendeye kuri buri gihugu iruhande hari umugabo uhicaye wambaye ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuryango ufunze uriho ibirango byamamaza uyu muryango niho bavunjira amafaranga uyakura mu y'igihugu kimwe uyashyira mu kindi gihugu ndetse hejuru hariho ikirango cya wesite yuniyoni.

Intebe nziza zikozwe mu biti, ziteretse munsi y'ameza meza nayo akozwe mu biti ndetse bazashyiraho ikirahuri hejuru kugira ngo babashe guterekaho ibintu ndetse ntibigire icyo biba.

Icyumba kirimo igitanda cyiza gishashe neza, kiriho imisego ibiri isa umweru, iburyo bw'igitanda hateretse akabati gafite ibara ry'umukara.

Muri salo harimo intebe zikozwe mu biti ndetse zirimo imisego, intebe imwe yagenewe kwicarwamo abantu batatu irimo imisego ibiri, ndetse iyi nzu irimo amakaro iyi nzu kandi yiganjemo amabara y'umweru.

Inzu y'igorofa ifite imiryango ifunguye, ndetse yubakishijwe amatafari ahiye. Iyi nzu hanze yayo hari ubusitani bwiza. Buteyemo imitaka ifite ibara ry'icyatsi.

Icyumba kiberamo inama. Kirateguye neza ndetse kiri kwakamo amatara. Harimo ameza afite ibara ry'umuhondo ndetse imbere y'ameza hateye intebe, ku meza hateretseho amacupa y'amazi.

Inzu nziza y'igorofa, ifite ibara ry'icyatsi ndetse iri kwaka amatara afite ibara ry'umuhondo. Iyi nzu imbere yaho hari ubusitani ndetse hateyemo imikindo.

Inzu ifite irange ry'umuhondo ndetse iri kwakamo amatara, harimo intebe z'umukara ndetse zirimo imisego hari n'izindi ntebe zifite ibara rya shokora.

Inzu y'ihoteli y'igorofa ifite umuryango ufunguye ndetse iruhande rwaho hateye ubusitani, iyi nyubako yiganjemo ibirahuri ku gice cy'imbere ndetse iruhande hari amarangi y'umuhondo.

Inzu ifunguye irimo intebe y'umukara ndetse n'intebe ifite ibara ry'umuhondo yicayemo umugabo umeze nkaho aryamye yambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uyu muryango wanditseho sonarwa.

Mu rusisiro haparitse imodoka zifite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse n'indi imwe ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi. Ifite ibirango bya MTN. Ziparitse imbere y'inyubako ifunguye. Ifite icyapa cyanditseho m, u,a.

Abantu bicaye aho batangira serivisi za Buritamu, imbere yabo hari mudasobwa ndetse abenshi bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abagabo bambaye amakoti bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza y'umweru, ariho amazi y'inyange. Inyuma yabo hari ibyapa byamamaza byanditseho purayimu.

Ubusitani bwiza buteyemo indabyo, iruhande rwabwo hari inzu yubatswe mu buryo bugezweho y'igorofa, ifite amarangi y'umweru,

Icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, iki cyapa ni icya sosiyete yitwa purayimu. Purayimu n'ubwishingizi butangwa hano mu Rwanda ndetse cyanditseho Rusizi.

Abantu bahagaze mu muryango bambaye imipira y'umweru. Imbere yabo hari icyapa cyanditseho Purayimu ndetse iruhande rw'umuryango hari ibyapa bibiri bifite amabara y'ubururu.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa mwiza w'umwirabura uri guseka. Ateze igitambaro ndetse yambaye isarubeti ifite umugozi mu ijosi. Iki cyapa ni icya banki popirere.

Abantu benshi bahagaze biganjemo abambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu, bose bambaye imipira isa uretse umuntu umwe uri hagati wambaye ishati y'umukara.

Icyapa cyamamaza ni icya banki populere, iki cyapa kiriho umugore uri guseka wambaye ingofero y'ubwubatsi ifite ibara ry'umuhondo, mu ntoki ze afite ibogisi ibikwamo ibikoresho ndetse inyuma ye hari umuryango ufite ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho abagabo batatu bambaye amashati y'umukara n'amakoti y'umukara ndetse bose bambaye amarineti. Iki cyapa gishushanyijeho inyubako yitwa beka arena.

Icyapa cyamamaza kiriho umugabo ufite amafaranga mu kaboko ke k'ibumoso yayarambuye, akandi kaboko kari kwerekana yuko ibintu ari sawa, iki cyapa cyanditseho karame.

Icyapa cyamamaza. Kiriho umugore w'umwirabura, uri guseka. Hejuru ye handitse amagambo agira ati, "Urwego banki". Iyi ni banki ikorera mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cyamamaza kiriho umugore uri guseka uri kuvugira kuri telefone, afite imisatsi myinshi ndetse yambaye ishati iciye amaboko y'umweru, inyuma ye hari amagambo agira ati "gera ku nzozi zawe n'inguzanyo itazigamiye".

Icyapa cyamamaza cya MTN kiriho umukobwa uri guseka cyane ndetse afite telefone mu ntoki inyuma ye hari ijambo ryanditse rivuga riti tubirimo na mocash.

Icyapa cyamamaza kiriho Eco bank, iki cyapa kiriho umukobwa wishimye uri guseka cyane mu ntoki ze afitemo telefone ndetse n'ikarita ya banki.

Abagore batatu bakuze; umwe ari gucuruza intoryi ndetse yitadiye igitambaro gifite ibara ry'icyatsi. Iruhande rwe hari undi witeze igitambaro gifite ibara ry'umweru ndetse n'ikanzu y'umweru.

Mu isoko harimo abantu. Higanjemo abagore bari gucuruza imbuto. Izi mbuto harimo; imineke, inanasi, imyembe ndetse n'ibinyomoro. Iruhande hari udufuka bagurisha.

Mu isoko, hanze y'iri soko hateretse ibitoki byinshi bigurishwa ndetse iruhande rw'ibitoki hari kunyura abantu, imbere yabyo hari umukobwa uhahagaze wambaye ikote rifite ingofero.

Isoko ry'inkweto, hahagaze abantu benshi bakoze uruzeru ndetse inyuma hari umugore wicaye wambaye umupira w'umuhondo ndetse yicaye ku ntebe ifite ibara ritukura, imbere ye hari abandi babiri bahahagaze.

Abantu bari mu rusisiro, hari umukecuru wambaye umupira utukura ndetse ukenyeye igitenge, imbere ye hateretse indobo ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umusore wambaye bodaboda uri gutambuka ariko yambaye ingofero.

Umugore wambaye ikanzu iciye amaboko, idozwe mu gitenge, arasa n'uwikoreye, inyuma ye hari imodoka iparitse, ndetse iruhande rwe hari umutaka.

Mu isoko harimo abagore babiri bicaye, umwe yiteze igitambaro gifite ibara ritukura, imbere ye hari itomati, intoryi, karoti, ibitungururu, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Iduka rigurisha imyenda, iri duka ririmo imyenda yiganjemo iy'abana ndetse n'iy'abakuru izinze iteretse mu tubati hejuru hino hari imyenda igaragara nk'iy'abakobwa.

Urusisiro rurimo akavuyo k'abantu ndetse n'imodoka, aha harimo abamotari benshi ndetse izi nyubako ziracecetse, hariho inyubako ndende z'amagorofa ku ruhande.

Mu isoko aho bacuruza hari umuryango ufunguye uriho intebe, ndetse iruhande rw'aho hamanitse ibicuruzwa harimo imyenda.

Abantu batatu, babiri bagaragara ndetse n'umwe utagaragara neza, babiri umwe afite telefoni mu ntoki ze ari gukanda ndetse barishimye, bari gucuruza imbuto.

Intebe bita itabureti, imbere yayo hari umugore uhagaze witandiye, imbere ye hari umugabo w'umuzungu wambaye imyenda y'icyatsi, iruhande rwe hari abamama babiri bahicaye.

Iduka ricuruza imbuto ndetse n'imboga, imboga zirimo karoti, shufureri, itomati ndetse hakaba n'imbuto zirimo ibinyomoro ndetse n'indimu.

Mu isoko ririmo abagore babiri bari gucuruza imbuto; izi mbuto zirasa neza cyane. Ni imineke, amacunga, ibinyomoro, pome, imyembe, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu isoko harimo abantu benshi, iri soko harimo imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye harimo pome, harimo amatunda, harimo imineke, harimo imyembe, harimo ibinyomoro ndetse n'amapapayi n'izindi mbuto zitandukanye.

Mu isoko harimo abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abana, abagore bahetse abana ndetse imbere yabo hari ibitebo birimo itomati.

Isoko ririmo umugore witandiye uri gucuruza, imbere ye hari ibitonore, itomati, amashaza ndetse n'ibitunguru, inyuma ye hari abandi bantu.

Ahantu badodera. Hahagaze umuhungu ndetse wambaye agakomo kariho idarapo rya Kongo. Inyuma ye hari abagore n'abakobwa bari kudoda. Bambaye imyenda yiganjemo imituku.

Isoko ryicayemo umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge, imbere ye hari imboga zirimo amashu, itomati, imiteja ,puwavuro ndetse n'ibindi.

Isoko ririmo abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa, hari umusore wambaye umupira utukura uri kuyora ibitunguru ashyira mu kabase, hari undi usutamye imbere ye wambaye ishati y'umweru iciye amaboko iruhande rwabo hari karoti ziri mu mufuka.

Umugabo wicaye ku igare, atwarishije akaboko kamwe, akandi ntago gafashe ku igare, yambaye umupira w'umuhondo ufite ibirango bya emutiyeni, inyuma ye hari umutaka ndetse n'abantu bawurimo.

Icyapa cya emutiyeni gifite ibara ry'umuhondo gihabwa abantu b'abacuruzi bakeneye imibare cyangwa kode bazajya bishyurirwaho iyi kode yanditseho icyenda zeru kabiri gatanu zeru gatanu.

Abantu babiri: umukobwa n'umuhungu. Umuhungu yambaye umupira w'icyatsi, umukobwa yambaye umupira w'umuhondo, uriho ibirango bya MTN. Inyuma yabo hari akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo.

Akazu ka emutiyeni gafunguye, karimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse kanditseho emutiyeni, iruhande hari inzu nini yanditseho eyateri ifite ibara ry'umutuku.

Umutaka ufite ibirango bya Airtel, uyu mutaka ufite ibara ritukura, mu imbere harimo abantu bahagaze bategereje guhabwa serivisi ndetse iyi Airtel ifite ibyapa biteye ku ruhande rw'iri hema, ndetse na byo biriho abantu.

Inzu ya emutiyene ifite ibirango by'umuhondo ndetse hashushanyijeho agatelefoni gatoya. Imbere y'aka kazu hari abantu batatu bahagaze bakeneye ubufasha bw'umukozi wa emutiyene.

Akazu ka MTN gahagazeho abantu batandukanye ndetse akazu ka MTN gafite amarangi y'umuhondo ndetse kariho icyapa cya MTN imbere yako hari ibikarito bihateretse ndetse n'umutaka.

Akazu ka emutiyene gafite amabara y'umuhondo ndetse kariho ibirango bya emutiyene, harimo umukobwa wambaye ishati y'umukara ndetse hanze hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n' ipantaro y'umukara.

Icyapa cya MTN, iki gihabwa abantu b'abacuruzi, ndetse gishyirwaho kode babasha kwishyurirwaho, iyi kode ntabwo igaragara neza, ariko ni gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatatu, zeru.

Akazu ka MTN, gafite impande enye n'ikare ndetse impande eshatu zirafunguye, aka kazu gafite amabara y'umuhondo ndetse karimo umuntu n'undi ku ruhande.

Akazu ka MTN, karafunguye amadirishya, ndetse hahagaze abakiriya, imbere harimo abakozi ba MTN, aka kazu gafite amabara y'umuhondo yanditseho MTN.

Abantu babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'umuhondo ufite ibirango bya emutiyene, undi yambaye ikoti ry'umukara bose bafite telefone mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umukara.

Inzu ikoreramo sosiyete ya Airtel, iyi nzu irimo ibyapa byamamaza biriho abakobwa babiri bari guseka, ndetse iruhande hari akabati gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Akazu ka Eyateri gafite ibara ritukura ndetse kanditseho amagambo Eyateri mu ibara ry'umweru ndetse hejuru hari icyapa cyamamaza kiriho umukobwa uri guseka.

Abantu babiri, umugabo n'umugore. Bose ni abazungu. Umugabo yambaye umupira w'umweru ndetse uriho ibirango bya MTN. Mu kaboko ke k'iburyo harimo igiseke, ari guha undi muzungu wicaye ngo akoremo.

Abantu bahagaze harimo abirabura ndetse n'umuzungu umwe, imbere yabo hari umusore wambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN, ndetse uyu muzungu ari kwerekana icyo ashaka.

Inzu ya MTN ifite amadirishya atatu, yose arafunguye umuryango w'inyuma urafunze, ndetse iyi nzu irimo umukozi wa MTN ufite ikayi n'ikaramu ari kwandika, iruhande rwe hari undi uri gukoresha serivisi.

Abamotari benshi bari kugenda mu muhanda . Abamotari bambaye imyenda itukura ndetse na kasike zabo zifite ibara ritukura. Ndetse imbere yabo hari imodoka ibarangaje imbere yanditseho toyota.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi yanditseho Vuba Vuba, ari guseka cyane, afite anvelope irimo imboga zirimo karoti ndetse iruhande rwe hari ikintu cyanditseho Vuba Vuba, nicyo atwaramo iyi mizigo.

Umusore ufite igare uyu musore yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara igare rye arariparitse ndetse ahetse igikapu kinini cyane cyanditseho ijambo vuba, ndetse iki gikapu gifite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'igorofa ifite amarangi y'umuhondo, ifite icyapa cyanditseho iposita. imbere y'iri gorofa hari imodoka nyinshi ndetse na moto bifite ibirango by'umuhondo ndetse n'umukara.

Abantu babiri umugabo n'umukobwa, uyu mukobwa yambaye amarineti ndetse yambaye umupira w'umweru, bari kumuha agapfunyika kanditseho safi, uyu mugabo ukazanye afite moto yanditseho nayo safi.

Umuryango wo mu bwiherero ufunguye, ubu bwiherero bwubatswe mu buryo bugezweho bwa kizungu, ndetse burimo naho bogera.

Abagabo babiri bahagaze bari kwitegereza hakurya bahagaze ahantu hirengeye, umwe ni umuzungu yambaye ishati y'umweru yahinnye amaboko, undi ni umwirabura na we yambaye ishati y'umukara yahinnye amaboko.

Inzu ifunguye umuryango imbere y'umuryango hari amakaro afite ibara ry'umweru ndetse n'afite ibara ry'umukara hejuru hari itara riri kwaka.

Muri saro harimo intebe ebyiri zigaragara zisa ndetse hagati yazo harimo ameza imbere yazo hari akabati gafite ibara ry'umukara ndetse hejuru hari televiziyo iri kwaka hejuru ya televiziyo hari imigongo.

Inzu iri mu gipangu. Iyi nzu iragaragara igice gitoya. By'umwihariko idirishya. Iri dirishya rifite ibirahuri by'umukara, ndetse hariho n'utwuma dufite ibara ry'umweru. Haragaragara amakaro azamuka ajya mu nzu.

Inzu yubatswe muburyo bugezweho y'igorofa, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite utubaraza bahagararaho bari kota akazuba ndetse ifite n'utwuma ku tubaraza dufite irangi ry'umweru hirya y'urupangu hateye ibiti.

Icyumba gishashe neza gifite amashuka y'umweru ndetse ariho uturabyo, hariho umusego kuri ubu buriri ndetse iki cyumba gifite amarangi y'umweru ndetse amarido bayegeje ku ruhande kuburyo ushaka kureba hanze wareba.

Inzu nziza ifite ibara ry'umweru ndetse ifite akabaraza kagezweho, iyi nyubako iherereye i Kanombe i Kigali.

Inzu y'igorofa rimwe ifite ibara ry'umweru ndetse ifite imbuga nini iruhande rw'iyo mbuga hateye igiti kirekire gifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wishimye yambaye amarinete ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ari kugenda imbere yayo ku mapave.

Umugore wambaye amarineti ndetse yambaye ikoti ry'umukara ridafunze imbere. Imbere ye hari akabati cyangwa ameza afite ikirahuri cyo hejuru cy'umukara ndetse iruhande n'umweru.

Akayira gatoya karimo amabuye, gakikijwe n'ibipangu bibiri ndetse iruhande rw'aka kayira hateye ubusitani ndetse ibi bipangu kimwe cyubakishije amatafari ahiye, ikindi giteye mu irange by'umukara ndetse n'umuhondo.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hari parikingi, harimo imodoka zifite amabara y'umukara, ndetse iyi nzu iherereye nyarutarama.

Abantu benshi biganjemo abagore bari guhaha imitako, aha bagurisha imitako ifite amabara agiye atandukanye, harimo amaherena, harimo imigongo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

umugore w'umwirabura uri mu iduka, ndetse aho ahagaze ibumoso bwe hari ibinyobwa birimo amaji ndetse n'amazi yambaye agashati gaciye amaboko karimo amabara y'umutuku ,umweru ndetse n'umukara.

Abantu babiri bahagaze ndetse n'undi uri gutambuka inyuma yabo. Aba bantu bambaye imyenda y'imikara, uyu ni umukobwa n'umuhungu. Ndetse imbere yabo hari amakaro y'umukara ndetse n'umweru.

Abantu babiri bicaye ku ntebe z'umukara ndetse ni umugore n'umugabo ni abapolisi, imbere yabo hari mudasobwa ndetse bari kuzirebaho.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu gikoni, ririmo abantu batatu abagore ndetse n'abagabo, iri duka ririmo amasafuriya, ibikombe, ibisorori, teremusi ndetse n'icyuma gishyushya amazi.

Mu iduka aho bahahira higanjemo abagore bambaye imyenda y'imyeru hejuru ndetse bari guhaha harimo amavuta ndetse n'ibindi birungo aba bantu bafite imisatsi miremire.

Abantu babiri; umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, barishimye bari guseka ndetse bafatanye ibiganza, bari ku cyapa cyanditseho inyuguti z'impine RSSB.

Icyapa cyamamaza, cyanditseho ejo heza, kiriho abantu babiri umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru. Barishimye. Iyi ni banki ikoreshwa mu kwizigamira igoboka abantu bageze mu zabukuru. Ikoreshwa mu Rwanda.

Abaturage benshi bashungeye ndetse imbere yabo hari ikigo cy'amashuri, inyuma yabo hari ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho ejo heza ndetse n'i ikindidi cyanditseho inyuguti z'impine Ra Sa Sa Ba.

Icyapa cy'Ejoheza. Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati: "Uko wakwizigamira muri Ejoheza ukoresheje telefoni". Iki cyapa kirimo amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Abantu babiri, bafite mituweri, n'ubwishingizi bukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda mu kwivuza. Bwishyurwa mu byiciro bitandukanye, bagendeye ku byiciro by'ubudehe. Aba bagore bari kuzitegereza, izi mituweli.

Icyapa cyamamaza cyanditseho ejo heza, ejo byandikishije ibara ry'ubururu, heza byandikishije ibara ry'icyatsi. Ubu ni ubwishingizi bukoreshwa kugira ngo umuntu buzamugoboke ageze mu za bukuru.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na karuvati n'ishati y'umweru, afite terefoni mu biganza bye, imbere ye hari ibicuruzwa harimo mayoneze ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugore wambaye imyenda idoze mu gitenge w'inzobe. afite umusatsi mukeya w'umukara, ndetse ari guhaha muri alimantasiyo. Ari guhaha ibirungo.

Ikiganza gifashe akamashini bishyuriraho; hari umugabo wambaye amarineti ndetse n'ishati yahinnye. Akaboko ke k'iburyo gafashe terefone kari gukoza kuri ka kamashini.

Iduka ricuruza imbuto ndetse n'imboga. Iri duka ni rinini cyane, harimo iziganjemo amabara atukura ndetse n'ay'imihondo, n'ay'icyatsi. Izi mbuto harimo imineke, amaronji ndetse n'amapapayi, n'inanasi.